Abahungu n'abakobwa baricaye, hejuru bambaye umwambaro wiganjemo ibara ry'umukara undi umwe arahagaze afite indangururamajwi mu ntoki.

Umugabo arahagaze yambaye ishati irimo ibara ry'iroza. Hirya ye hari abandi bantu bicaye ku ntebe. Imbere bafite amacupa arimo amazi.

Abantu benshi barahagaze bakoze uruziga hagati yabo hahagaze abandi bantu umugabo wambaye ikoti risa umukara ndetse n'ipantaro isa umukara.

Abantu barimo abagore n'abagabo bicaye bakoze uruziga, imbere yabo hari amacupa y'amazi ndetse na za mudasobwa.

Umugore arahagaze yambaye ishati y'umukara afite indangururamajwi mukiganza, imbere ye hicaye abagabo babiri umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye umupira w'umweru.

Abagabo baricaye umwe muri aba bagabo yambaye umwambaro w'akazi, imbere y'aba bantu bose hateretse amacupa y'amazi, abari inyuma imbere yabo hari mudasobwa.

Umugore aricaye ukuboko kumwe yakurambuye hejuru y'ameza, imbere ye kuri ayo meza hateretse icupa ry'amazi n'ikirahure cyubitse ndetse na terefone.

Abantu benshi barahagaze bari gukoma amashyi, bamwe muri aba ngaba bambaye amakoti abandi bambaye amashati, umusore umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umweru.

Abantu bane baricaye, undi umwe arahagaze, yambaye agapira k'umukara ndetse afite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hari ameza ateretseho imashini.

Umugabo arahagaze yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ingofero y'ubururu, afite indangururamajwi mu kuboko kumwe ukundi yagushyize inyuma mu mugongo, inyuma ye hahagaze abandi bantu.

Umugabo arahagaze, yambaye ikoti ry'ubururu mu imbere yambaye ishati isa umweru, afite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hicaye abandi bantu.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo baricaye batandatu muri abo bantu bicaye imbere, undi mugabo umwe wambaye ishati arahagaze.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe, babiri umugabo n'umugore bazamuye urutoki hejuru umugore, yambaye ikoti n'umugabo yambaye ikote.

Abantu baricaye, bicaye ku ntebe za oranje, imbere yabo hari abandi bantu bahagaze bazamuye ukuboko kw'iburyo, imbere yabo hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi, bamwe barahagaze inyuma, abandi bicaye imbere yabo. Umwe muri aba ngaba arasutamye yambaye ikanzu itukura. Asutamye imbere y'umukobwa wambaye umupira w'umukara.

Abantu benshi baricaye. Abenshi muri bo bambaye umwambaro hejuru uri mu ibara rya oranje ndetse umwe afite terefone mu ntoki, yirambitseho umupira utukura.

Abantu baricaye, imbere y'aba bantu bose ku meza hateretse amacupa y'amazi. Umwe muri aba bantu arahagaze, yambaye ishati iciye amaboko y'umweru, imbere ye hateretse mudasobwa.

Abantu benshi baricaye bakoze uruziga, umugabo umwe yambaye ishati y'umukara, ipantaro y'umukara, afite terefone mu ntoki ndetse n'indi terefone irambitse iruhande rwe, imbere ye hateretse icupa ry'amazi.

Abanyeshuri baricaye bambaye umwambaro hejuru ufite ibara ry'ubururu wanditseho amagambo inyuma mu ibara ry'umweru, abanyeshuri kandi bambaye umwambaro hasi usa kaki.

Umugore wicaye afite ibisuko ku mutwe, yambaye ikoti riri mabara umuhondo, ubururu, umweru n'umukara afite indangururamajwi mu ntoki.

Abagabo n'abagore baricaye ni benshi cyane, aba bantu bose bambaye icyangombwa mu ijosi, bimwe bifite umugozi ufite ibara ry'umuhondo ibindi bifite ufite ibara ry'icyatsi.

Abagabo n'abagore baricaye ku ntebe z'imikara. Aba bantu imbere yabo hari za mudasobwa ndetse hateretse n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Abantu benshi baricaye ku intebe ni abagore n'abagabo, umugore umwe yambaye umupira utukura nijipo y'umukara, imbere yaba bantu hateretse ameza ari ibyo kunywa.

Abantu batandatu baricaye batanu muri bo bambaye hejuru imyeru undi yambaye umwenda uri mu rindi bara iruhande rwe hateretse igikapu.

Abantu benshi bicaye abagabo babiri baricaranye, bombi bambaye amakoti, umwe yambaye ikoti ry'ubururu undi yambaye ikoti ry'umukara. Aba bombi bari kureba muri terefone.

Abagore batatu bahagaze imbere y'abantu benshi, umwe yambaye umupira w'umweru n'ijipo y'igitenge, undi wo hagati yambaye imyenda y'ibitenge n'ikindi agiteze mu mutwe, uwo hirya yambaye umushanana bafite ishimwe mu ntoki.

Abagore n'abagabo, bicaye kumeza bakozeza uruziga. Kuri aya meza hariho umubare nimero gatanu. Imbere yabo bantu bose hariho impapuro ndetse n'amazi yo kunywa.

Umugore wambaye agapira k'umweru yarengejeho ikote inyuma ry'umukara ririmo imirongo y'imyeru, yambaye ipantaro yikoboyi, imbere ye hateretse indangururamajwi.

Abagabo benshi bicaye mu nama, umwe aricaye yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi ageretse akaguru ku kandi, imbere ye hateretse terefone, ku ruhande rwe hari akandi k'ameza kariho amazi n'ibirahure.

Abantu baricaye mu nama bafite impapuro bose umugore umwe yambaye ikanzu ya oranje n'umukufi mu ijosi, undi yambaye ishati y'ubururu yitangiriye itama.

Abantu baricaye, abicaye imbere bambaye amajiri afite ibara ry'icyatsi, abicaye inyuma yabo bambaye amajiri afite ibara ry'ubururu, ndetse abandi nta majiri bambaye.

Abantu baricaye benshi bamwe bambaye imipira y'ubururu, abandi bambaye imipira y'icyatsi, abandi bambaye imipira y'umuhondo. Umugabo umwe ahagaze hagati muri abo bantu.

Abagabo batatu baricaye babiri muri bo bambaye ingofero ndetse aba bagabo bose imbere yabo hateretse mudasobwa, babiri muri bo bari kureba mudasobwa undi ari kureba bagenzi be.

Abantu benshi baricaye, abenshi muri bo bambaye umwambaro hejuru uri mu ibara ry'icyatsi. Abandi benshi bambaye umwambaro hejuru uri ibara ry'ubururu. Abandi benshi bambaye hejuru umwambaro uri mu ibara ry'umuhondo.

Ihema riteye mu busitani rifite amabara y'u umwe ryicayemo abantu b'ingeri zose harimo n'abana inyuma y'iryo hema hateye ibiti.

Abantu benshi baricaye, aba bantu barimo abagore n'abagabo. Imbere yabo hateretse ameza, hatwikirije igitambaro cy'umweru. Ndetse kuri ayo meza hatetseho amazi yo kunywa.

Umugabo arahagaze yambaye ikote n'ipantaro. Afite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye harambitse impapuro, hakurya imbere hicaye abandi bantu babiri.

Abantu benshi baricaye bakoze uruziga. Hagati yabo hateretse ameza, atwikirijeho igitambaro cy'umweru. Imbere y'abo bantu bose, hari amacupa y'amazi.

Abantu benshi baricaye imbere yabo hari za mudasobwa umugore umwe yicaye ku ntebe yashyizeho umupira uri mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Abantu baricaye, abandi babiri muri bo barahagaze, umwe afite kamera yambaye ishati itukura, undi yambaye ishati y'umweru afite ikayi mu ntoki.

Abantu benshi baricaye bicaye ku ntebe z'iyeru ndetse bicaye bakoze uruziga ari abantu benshi cyane harimo abagore n'abagabo.

Abantu baricaye, bambaye umwambaro w'ubururu. Inyuma kuri uwo mwambaro handitseho amagambo mu ibara ry'umweru. Imbere yabo hahagaze umusore afite indangururamajwi mu ntoki.

Umugore arahagaze yambaye umwambaro w'umuhondo n'igitambaro mu mutwe uyu mugore afite indangururamajwi mu kiganza ndetse imbere ye hateretse mudasobwa.

Umugore arahagaze, yambaye agakanzu kari mu tubara dutandukanye, umutuku, umukara n'umweru, ndetse afite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu bicaye ku ntebe, z'imikara harimo abapolisi babiri bambaye umwambaro w'akazi, ndetse n'ingofero z'akazi, iruhande rw'ibumoso hicaye undi mugabo yambaye ishati y'amaboko maremare.

Umugabo witwa Karikisite Kabera yambaye ikote, iruhande rwe hicaye undi mugabo nawe wambaye ikoti n'amataratara, imbere y'aba bagabo bombi hateretse amacupa y'amazi n'ibirahure.

Abantu baricaye harimo abagore n'abagabo, inyuma hari intebe ziticayemo abantu umwe muri abo bantu arahagaze, imbere ye hateretse kamera.

Abagabo batatu bambaye amakoti n'umugore umwe wambaye ikote, aba bantu bose imbere yabo hateretse indangururamajwi ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu benshi baricaye, bicaye mu matsinda aba bantu bose bicaye ku ntebe z'umutuku hagati yab'abantu hahagaze umugabo ndetse ari kuvuga.

Abagabo babiri n'umugore umwe, baricaye. Aba bagabo bombi bambaye amashati ya karokaro. Hagati ku meza aho aba bantu bicaye, hateretse amazi yo kunywa menshi.

Abantu baricaye umugabo umwe yambaye ishati y'amaboko maremare afite terefone mu ntoki, imbere ye hateretse mudasobwa, ikaramu, ikayi n'icupa ry'amazi.

Abantu benshi barahagaze, abenshi muri aba bantu bambaye umwambaro ufite ibara ry'ubururu, abantu kandi inyuma yabo hateretse intebe zisa umweru.

Abantu benshi baricaye, biganjemo abadamu. Bicaye ku ntebe z'imyeru. Hagati yabo hahagaze umusore, yambaye umupira uciye amaboko, azamuye urutoki.

Abantu batanu baricaye. Ndetse umugabo umwe afite ikayi imbere ye, ndetse na terefone mu ntoki. Hirya ye hari umugore wambaye igitenge, uri kuvuga.

Abagore n'abagabo baricaye. Imbere y'aba bantu hateretse ameza atwikirije igitambaro kiri mu mabara ubururu, umuhondo, n'icyatsi. Aya meza ateretseho amacupa y'amazi.

Abantu benshi barahagaze bamwe bahagaze imbere abandi bahagaze inyuma yabo bamwe muri aba barimo abagore batandatu abandi ni abagabo barindwi.

Umugore yambaye umwenda uri mu mabara y'umukara, afite indangururamajwi mu kuboko kw'iburyo, ukw'ibumoso kurazamuye. Imbere ye hicaye abandi bantu babiri.

Abantu baricaye, harimo abagore n'abagabo. Umugabo umwe arahagaze yambaye ishati ifite ibara ry'umweru. Undi mugore yambaye umwambaro utukura.

Umugabo wambaye ikoti rya karokaro, n'ishati y'amaboko maremare imbere, yicaranye n'umugore wambaye umwambaro w'umukara, uyu mugore yunamye ari kureba muri terefone.

Abantu benshi baricaye, umwe muribo arahagaze ,umugabo umwe yambaye ishati y'umweru ipantaro ya kaki, inkweto z'umukara, afite mudasobwa ku bibero bye.

Abantu benshi barahagaze bafite amatungo y'ihene mu ntoki ndetse ku ruhande rwabo hari idarapo ry'igihugu cy'u rwanda, muri abo bantu harimo umuntu wambaye umwenda w'akazi usa icyatsi ndetse n'ingofero yawo.

Abantu benshi baricaye umugabo umwe yambaye ishati y'ikoboyi ndetse n'isaha k'ukuboko n'ipantaro y'umukara iruhande rwe hateretse icupa ryamazi.

Abantu baricaye bakoze uruziga, imbere yabo hateretse za mudasobwa, ndetse n'indangururamajwi, undi mugabo umwe yambaye ishati y'umweru, yicaye ku ruhande rwa wenyine akikijwe n'amabendera.

Abagore n'abagabo baricaye bakoze uruziga, bane muri aba bantu bambaye umwambaro urimo ibara ry'icyatsi, imbere y'aba bantu bamwe bafite mudasobwa imbere yabo.

Abantu baricaye abenshi muri bo bambaye imipira y'imikara hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ijiri n'umupira w'ubururu afite indangururamajwi mu ntoki.

Umugore n'umugabo w'umupolisi baricaye. Umugabo w'umumupolisi yambaye umwambaro w'akazi, umugore yambaye igitambaro mu ijosi ndetse n'umwitero w'umweru.

Umukobwa wambaye ijiRI y'icyatsi ndetse n'agapira k'icyatsi, afite ikaramu mu ntoki ari kwandika mugakayi kari ku meza imbere ye, ikindi kandi kuri ayo meza hateretse icupa ry'amazi yo kunywa.

Umugore aricaye yambaye agapira k'umweru, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'ikirahure cy'amazi, uyu mugore ari gukanda muri mudasobwa.

Abagabo baricaye bakoze uruziga, bamwe muri bo bambaye hejuru imipira y'imikara abandi iy'imyeru, imbere yabo hateretse za mudasobwa.

Umukobwa aricaye ari kureba muri terefone ari guseka, ari gukanda akanyenyeri icyenda zeru icyenda urwego.

Umugore arahagaze yambaye umupira w'umutuku, iruhande rwe hari abandi bana batatu, umwe yambaye umupira w'umuhondo urimo mu ibara ry'icyatsi.

Inzu iri munsi y'umuhanda ifite imiryango itandukanye, hejuru y'iyo nzu hari icyapa kiragaragaza ibikorwa irembo, ekwiti, gufotora n'ibindi.

Moto yifashishwa mu gukora ikizami cyo gutwara ibinyabiziga ndetse n'imodoka yifashishwa mu gukora ikizami cyo gutwara ibinyabiziga hejuru handitse amagambo "Irembo byikorere".

Abahungu n'abakobwa baricaye. Bicaye ku ntebe zitukura. Imbere y'aba bantu hateretse ameza ateretseho za mudasobwa. Ndetse n'amatasi.

Itariki ntarengwa, mirongo itatu nimwe z'ukwa cumi nabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, menyekanisha uyu munsi, kwibutsa kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu birakorwa kugeza ku itariki mirongo itatu nimwe ukuboza bibiri na makumyabiri na kane.

Umukobwa wambaye ikote aricaye ari guseka, imbere ye hateretse mudasobwa ndetse ari kuyikandaho iruhande rwe hateretse impapuro ndetse n'ibitabo.

Harabura iminsi itanu. Itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu. Ni itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Dore uko wakwinjiza amakuru ya konti ya banki, kuri E-Tax, injira ukoresheje TIN n'ijambobanga, sisiteme irahita iguha paji wuzurizaho amakuru ya konte ya banki.

Umunara uri mu mabara umutuku n'umweru uragaragara ku gice cyo hejuru ndetse ku mpande ufite amateni menshi.

Ikirango, iruhande rw'ikirango har’amagambo Repubulika y' U Rwanda minisiteri y’abakozi ba leta n'umurimo munsi yaho handitse amagambo” Itangazo: iminsi y'ikiruhuko rusange”.

Umunara uri mu mabara, umweru, n'umutuku, munsi y'uwo munara hari utudarapo dutoya turi mu ibara ry'ubururu, handitsemo ijambo inshuro nyinshi riri mu ibara ry'umweru, ari ryo tigo.

Idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara ubururu umuhondo n'icyatsi, mu ibara ry'ubururu harimo inyenyeri, munsi yaho handitse amagambo purezantesheni, oni disenti woke, ini isitani povensi, oni sigisi, disemba tuwenti tuwenti tu.

Umusore arahagaze yambaye umupira w'icyatsi ndetse n'inkweto z'umukara, imbere ye hicaye umugore afite ikaramu mu ntoki, imbere ye hateretse mudasobwa.

Umugabo arunamye yambaye umupira w'umukara wanditseho ijambo Irembo, imbere ye hari za mudasobwa ndetse nizo ahanze amaso.

Irembo bykorere. Intambwe ya gatatu, hitamo kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'icyiciro cyisumbuye. Ibisabwa.

Abantu barimo abagore n'abagabo baricaye, imbere y'aba bantu bose hateretse za mudasobwa, hari undi mugore uhagaze wambaye agakoti k'ubururu.

Urwego rw igihugu rw'imiyoborere, RGB. Rwanda gavanensi bodi. Uburyo bushya bwo kwandikisha umuryango utari uwa Leta.

Irembo; byikorere, intambwe ya kane, kanda kurisaba hanyuma ukurikize amabwiriza, munsi hari mudasobwa irimo uko wakurikiza ayo mabwiriza.

Umugore afite ibisuko yambaye ishati y'umweru, ku mpande ze zombi hicaye abandi bantu, imbere y'uyu muntu hateretse mudasobwa ndetse ari kuyirebamo.

Abahungu babiri baricaye, umwe yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ingofero y'umutuku undi yambaye umupira w'umweru. Aba bombi imbere yabo hateretse mudasobwa.

Abahungu benshi baricaye. Bambaye ibyumvirizo mu matwi bose. Abandi muri bo bambaye n'ingofero, imbere yabo hateretse imashini za mudasobwa.

Ipoto y'amashanyarazi iriho amatara abiri, imwe rireba mu ruhande rwo hepfo, irindi rireba mu ruhande rwa ruguru. Hashamikiyeho imigozi y'imiriro myinshi, umugozi umwe uramanutse ugafata kuyindi pote iri hakurya.

Amapoto y'amashanyarazi ane aya yose ashamikiyeho imigozi ijyana imiriro mu mpande z'ibice byose munsi y'aya mapoto hari gutambuka abantu.

Umuntu yicaye kuri moto yambaye agapira k'icyatsi ahetse igikapu ndetse yambaye na kasike itukura hirya ye hari aho banywera esansi ndetse hari abandi bantu bahagaze.

Umugore wambaye umupira w'umutuku yambaye n'ijiri isa icyatsi yanditseho ijambo rege yambaye agapfukamunwa k'ubururu kanditseho ijambo yesu ni byose ku mufite.

Icyapa kiri mu mabara ,umweru n'umutuku cyanditseho ijambo REG ndetse n'irindi munsi ryanditse mu ibara ry'umukara Gikondo substation.

Igiti cyohereza umuriro ahantu hatandukanye, kiri kugaragara ku gice cyo hejuru, kuri icyo gice hari umugabo wambaye ingofero y'umuhondo.

Umunara ufite imigozi yambukiranya ku mpande zombi; ruhande rwo hepfo n'uruhande rwa ruguru; munsi y'uwo munara hari igiti ndetse mu mpande z'uwo munara zombi harimo amazu.

Ibitaro bya Masaka, imbere y'ibi bitaro hari gutambuka abantu batandukanye, bamwe muri bo bambaye udupfukamunwa undi ni umuganga yambaye umwenda w'akazi.

Abantu baricaye, babiri muri bo bambaye umwenda w'abagororwa uri mu ibara rya oranje. Hari umugabo aricaye yikoze ku mutwe, yambaye ikote.

Icyapa cyanditseho amagambogambo, repubulika y'u Rwanda umujyi wa Kigali, Akarere ka Gasabo, Kacyiru hosipito, ibitaro bya Kacyiru.

Umugore w'umuganga wambaye tabuririya y'umweru, imbere ye hicaye undi mugore wambaye imyenda ya oranje, iruhande rwe hari ibyuma.

Koridoro igaragara ku bikuta byombi. Iri gutambukamo umugore, akenyeye igitenge, yambaye ikoti ry'ubururu n'umweru, ndetse yiteze igitambaro mu mutwi.

Umugore yambaye ishati y'umweru ndetse n'agatambaro mu ijosi, ukuboko kumwe kurazamuye kuri gukora mu mafishi.

Abantu bane umwe yambaye umwambaro w'akazi undi agiye kwicara undi afite icupa mu ntoki inyuma y'abo bantu hari imodoka eshatu.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru n'umukara yanditseho amagambo imbangukiragutabara ibitaro bya sehashika, hejuru y'iyo modoka hariho amatara.

Imodoka ebyiri z'imbangukiragutabara, ziri mabara umweru, n'umutuku. Aya magambo imbangukiragutabara byanditse mu ibara ry'umutuku, ku ruhande rwo hirya hari indi modoka y'umukara.

Umugore yambaye umupira w'ubururu. Inyuma kuri uwo mupira, handitseho amagambo mu ibara ry'mweru. Yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso. Imbere ye hateretse mudasobwa.

Umugabo yicaye ku ntebe yambaye umwambaro w'abagororwa imbere ye hahagaze abandi bantu umugabo wambaye ikote n'umugore ufite igikapu yitwikiriye igitenge.

Inzu igaragara ku ruzitiro rw'inyuma ndetse n'igice cyo hejuru cy'inzu cyanditseho materinete. Inyuma y'urwo ruzitiro hari imodoka iri mu ibara ry'icyatsi.

Ababyeyi baricaye, babiri muri bo bambaye umwambaro w'ibitenge ndetse biteze ibitambaro mu mutwe, imbere hari abandi basore bahagaze mu idirishya.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo ikagira ibirahuri bisa'ubururu iruhande rwayo hari imodoka imbere yayo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umucamanza wambaye umwambaro w'akazi. Uri mu ibara ry'umutuku, umukara, n'umweru. Yambaye ingofero y'umukara, ifite umurongo uzengurutse w'umuhondo.

Abantu benshi, bari kugenda berekera ku nzu iri imbere. Bambaye amakabutura ndetse n'amashati ndetse abo benshi muri bo, bambaye umwambaro uri mu ibara ry'iroza w'abagororwa.

Abagabo b'abagororwa bambaye amakabutura n'amashati, uyu mwambaro bambaye uri mu ibara ry'iroza bambaye kandi udupfukamunwa bari kumwe n'ababarinze.

umugabo arahagaze, yambaye imyambaro iri mu mabara umutuku, umukara n'umweru yambaye, ingofero mu mutwe ukuboko kumwe kw'ibumoso gufashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ukundi kw'iburyo kurazamuye imbere ye hari indangururamajwi.

Umugore wambaye umwambaro ufite amabara; umutuku n'umweru n'umukara, yambaye amataratara ndetse n'ingofero mumutwe y'umukara.

Umugabo wambaye umwambaro w'akazi. Urimo amabara: umutuku, umukara, n'umweru. Yambaye ishati mo imbere ifite ibara ry'ubururu. Ndetse yanigirije.

Abantu benshi barahagaze abenshi muri bo bambaye umwambaro wa gisirikare ndetse abandi bambaye amakoti, undi yambaye umwambaro w'akazi uri mu mabara umutuku, umweru ndetse n'ingofero irimo umuhondo.

Umugabo w'umwirabura wicaye yambaye ikoti, inyuma ye hari igitambaro kirimo amabara y'ubururu n'umweru, ndetse n'ifoto irimo inzu ndende.

Abantu baricaye, bambaye umwambaro usa uri mu ibara ry'umutuku n'umweru. Bambaye ingofero zisa zifite ibara ry'umukara zirimo uturongo tw'umuhondo.

Umugabo yambaye umwambaro uri mu mabara umutuku, umukara n'umweru, yambaye na karuvati uyu mugabo yambaye ishati imbere ari kugaragara igice cyo hejuru.

Abagabo b'abagororwa baricaye, bambaye amakabutura ndetse n'amashati biri mu ibara ry'iroza, bamwe muri bo bambaye udupfukamunwa.

Abagororwa b'abagabo baricaye. Umwe muri bo ahagaze imbere yabo. Bose bambaye umwambaro w'abagororwa uri mu ibara ry'iroza. Bari kureba imbere...

Umugabo w'umucamanza, yambaye umwambaro urimo amabara, umutuku, n'umweru. Yambaye ingofero mu mutwe y'umukara, iciyemo imirongo ibiri, ifite umuzenguruko usa umuhondo.

Abagabo b'abagororwa, bambaye umwambaro uri mu ibara ry'iroza. Bahagaze bari ku murongo. Bambaye udupfukamunwa. Abandi bari gusohoka mu modoka.

Abantu benshi baricaye abandi barahagaze barimo umugabo wambaye ingofero, umugore umwe ahetse umwana yiteze igitambaro mu mutwe ateye ukuboko hejuru.

Abantu batanu barahagaze bose bambaye amakoti, batatu muri aba bantu ni abagabo abandi babiri n'abagore, inyuma yabo harasa ubururu.

Abaturage benshi baricaye, bamwe muri aba bitwikirariye imitaka, bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe, imbere y'aba bantu hahagaze umugabo yambaye ikabutura n'ishati biri mu ibara ry'iroza.

Abantu babiri barahagaze, aba bombi bambaye udupfukamunwa, buri muntu imbere ye hateretse indangururamajwi, imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi.

Abagabo batatu bari kuganira, umwe muri bo yambaye amataratara ndetse n'umwambaro w'abagororwa, abandi babiri bambaye imyambaro irimo umukara n'umweru.

Imodoka ya polisi iri mu mabara umukara n'umweru. Inyuma yicayemo abapolisi. Inyuma y'iyo modoka hari gutambuka izindi moto ebyiri za polisi.

Umugabo w'umupolisi yambaye umwambaro w'akazi ndetse n'ijire y'akazi ifite amabara y'icyatsi n'umukara ndetse handitseho ijambo polisi.

Umugabo ahagaze imbere y'abanyeshuri, bambaye amashati y'imyeru n'amapantaro ya kaki uwo mugabo yambaye umwambaro w'akazi ndetse afite kizimyamwoto mu ntoki.

Umugabo yicaye kuri moto iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, yambaye kasike y'umutuku mu mutwe imbere ye, hari undi mugabo wambaye umwenda w'akazi w'abapolisi.

Umupolisi yambaye umwambaro w'akazi ari guhagarika imodoka, azamuye ukuboko kw'iburyo ndetse ukuboko kw'ibumoso ku kwereka icyerekezo imodoka igomba guparikamo.

Umugabo wicaye kuri moto, yambaye ikoti ry'icyatsi, ingofero y'umweru, ndetse uyu mugabo ibirenge bye byombi bikoze hasi, iruhande rwe hari imodoka.

Umugabo w'umupolisi yambaye umwambaro w'akazi ndetse n'ingofero y'akazi uyu mugabo aragaragara igice cyo hejuru ari kuvuga afite inyenyeri.

Ni kuri Polisi imodoka ziraparitse ndetse n'abantu barahagaze hejuru hari icyapa cyanditseho Rwanda nasiyonali Police.

Abapolisi babiri barahagaze bambaye umwambaro w'akazi ndetse n'amakoti y'akazi ari mu ibara ry'icyatsi inyuma y'abapolisi hari gutambuka abana b'abanyeshuri.

Imodoka imwe ya rege iriw'i ibara ry'umweru, indi modoka ya polisi iri mu ibara ry'umweru n'umukara, imbere aho hari icyapa cy'ibara ry'umweru cyanditsemo viziti Rwanda.

Umuntu utwaye igare yambaye umupira w'icyatsi n'ingofero y'umutuku, iruhande rwe hari abapolisi, hirya yabo hari abantu bicaye munsi y'imitaka iri mu ibara ry'umuhondo.

Abagabo babiri baricaye, umwe yambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umweru, undi yambaye ijiri n'ishati y'amaboko maremare y'umweru, aba bombi bafite impapuro mu ntoki.

Ni mu nama; abantu benshi baricaye, imbere yabo hari amacupa y'amazi n'indangururamajwi. Umugabo umwe ahagaze imbere yabo yambaye ikoti ry'umukara, imbere ye afite indangururamajwi.

Umugore aricaye, yambaye umwambaro w'ubururu ndetse yambaye n'umukufi mu ijosi, ageretse akaguru kandi yambaye amadarubindi.

Umugore wambaye umwambaro utukura afite indangururamajwi mu ntoki yambaye umukufi ku kaboko ndetse n'undi mu ijosi n'indi ibiri ku matwi, amaherena.

Umugore uhuje ibiganza byombi ari kuganira n'umugabo, bicaranye wambaye ikote, imbere y'aba bantu bombi hateretse indangururamajwi, ndetse n'icupa ry'amazi.

Nyakubahwa Perezida w'igihugu cy'u Rwanda arahagaze azamuye ukuboko kw'iburyo ndetse imbere ye hari indangururamajwi. Ku ruhande rwe rw'iburyo hahagaze nyakubahwa Jeanette Kagame.

Umugore yambaye ikoti ririmo utudomo tw'umukara ndetse n'utw'umweru. Imbere yambariyemo umupira w'umweru. Imbere ye hari indangururamajwi ndetse n'icupa ry'amazi.

Abantu benshi bahagaze kurongo itandukanye, umwe muri abo ni umugore yiteze igitenge mumutwe, imbere ye ahagaze umugabo yambaye ikote n'ingofero.

Abagabo bambaye amakoti n'abagore bambaye imishanana, bazamuye ikiganza cy'iburyo icy'ibumoso gifashe ku ibendera ry'u Rwanda bari kurahira.

Umugore n'umugabo baricaye. Bombi bari gukoma amashyi. Umugore yambaye gudire ndetse yambaye agapira k'icyatsi, n'isaha ku kuboko.

Umugabo wambaye ishati y'umukara, yambaye n'umwitero. Aha arahagaze, afite indangururamajwi imbere ye. Inyuma ye hicaye umugore wambaye ikote ritukura.

Abantu ni benshi babiri bahagaze imbere abandi bari inyuma, umwe mu bari inyuma afite icyapa kiriho ifoto ya nyakubahwa perezida Paul Kagame munsi ye handitseho amagambogambo tora Paul Kagame.

Abantu bicaye mu nama imbere y'aba bantu bose hari amatara ndetse n'indangururamajwi, umugore umwe yambaye ikanzu y'umuhondo n'igitambaro cy'umuhondo.

Abantu batandatu bicaye imbere; inyuma yabo hahagaze abandi bantu bose harimo abagore n'abagabo; abahagaze inyuma bambaye imyenda iri mu mabara harimo ubururu n'umweru; bafite ibyangombwa by'ishimwe mu ntoki zabo.

Umugore wambaye ikoti risa umuhondo, ndetse n'agapira imbere k'umukara, aricaye ku mpande zombi z'uyu mugore hari amabendera, muri aya mabendera rimwe ni ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umukobwa ndetse n'umusore bambaye imyambaro y'imyeru hejuru ndetse n'ingofero, imbere yabo hari impapuro nyinshi bari kugenda bafata rumwe baterera mu gakarito.

Nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na madamu we Jeannette Kagame bahagaze imbere muri sItade iruhande rwa perezida hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo yambaye ingofero y'umweru, yambaye ishati nayo irasa umweru irimo umurongo umanutse imbere ye hari indangururamajwi.

Abagore babiri bambaye imikenyero n'abagabo babiri bambaye amakoti, aba bose ukuboko kwabo kw'iruhande rw'ibumoso gufashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ukundi kuboko kw'iburyo kuramanitse bari kurahira.

Umugabo aricaye yambaye ikote karuvati y'umutuku n'ishati y'umweru ,iruhande rwe hari idarapo ryihugu cy'u Rwanda hagaragara igice cy'inyenyeri.

Abagabo babiri n'abagore babiri barahagaze, umugabo umwe afite indangururamajwi mu ntoki ndetse umugore umwe yambaye agapira k'umutuku ndetse n'agatambaro mu ijosi.

Ni mu nama irimo abagabo bambaye amakoti n'abagore. Aba bantu bose imbere yabo hateretse indangururamajwi ndetse n'amatara. Hateretse kandi amacupa y'amazi.

Abantu benshi baricaye harimo nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ku ruhande rwe rw'ibumoso hicaye madamu Jeannette Kagame, ku ruhande rwe rw'iburyo hicaye undi mubyeyi yambaye umwambaro usa oranje.

Umugore aricaye yambaye umwambaro uri mu ibara ry'umweru afite ikaramu mu ntoki ndetse n'urupapuro imbere ye ku meza hari izindi mpapuro n'ibitabo.

Ababyeyi bambaye umwambaro ugaragaza amabara y'ibirango bya FPR; ubururu, umutuku, n'umweru, bafite ututarapa mu ntoki turi muri ayo mabara twanditsemo ijambo FPR.

Ni mu masaha y'ijoro hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'imodoka. Imodoka itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru iruhande rwayo hari gutambuka abantu benshi.

Umugabo wambaye ingofero ahetse igikapu ku mugongo afashe igare, kuri iryo gare hateretseho umufuka uri mu mabara y'icyatsi n'umutuku.

Imodoka iri mu bwoko bw'igikamyo iri gutambuka, inyuma yicayemo umuhungu yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro itukura, imbere y'iyi modoka hari moto iriho abantu babiri.

Imodoka itwara abagenzi ifite amabara ubururu n'umweru yanditseho ijambo gucunga konte ni ubuntu ndetse iririho ifoto y'umugabo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ntoya y'amapine atatu iri mu mabara umutuku n'icyatsi ndetse n'umugabo utwaye igare. Hirya y'umuhanda hari umugabo uhagaze ndetse hakurya hari inzu iri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ingofero y'umweru ahetse igikapu ku kumugongo, afite imbaga imbere ye hari imodoka itwara abagenzi.

Imodoka yo mu bwoko bw' ibikamyo iri mu mabara y'umweru n'umukara inyuma itwikije amahema ari mu mabara umweru n'icyatsi.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite amabara umwere imbere ndetse n'umuhondo inyuma urimo umurongo w'umutuku iyi modoka iri gutambuka muri kaburimbo mu ruhande rw'ibumoso.

Imodoka itwara abagenzi, irimo abagenzi. Ifite ibara ry'umweru. Imbere y'imodoka hari gutambuka moto y'umutuku. Iri mu ruhande rw'ibumoso.

Imodoka itwara abagenzi, ifite ibara ry'umweru. Iragaragara ku gice cy'imbere, ndetse yarahiye imbere. Nta nimero y'imodoka igaragara.

Imodoka itwara abagenzi ifite amabara ubururu, umweru n'umukara, iraparitse muri gare ndetse yegereye icyapa abagenzi batageraho.

Imodoka itwara imizigo iri mu ibara ry'umweru, imbere yayo hari indi isanzwe iri mu ibara ry'umweru ndetse n'igikamyo kiri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga. Urimo imodoka ebyiri. Imwe ni itoyota ifite ibara ry'umweru. Indi ni itwara imizigo ifite ibara ry'ubururu.

Imodoka igaragara ku gice cy'inyuma ifite nimero eri a fa 450 ha inyuma y'iyo modoka hari gutambuka k umugabo ufite igikapu.

Umumotari yambaye kasike isa umutuku, yicaye kuri moto imbere ifite ibara ry'icyatsi n'umukara, iruhande rwe hahagaze umugabo yambaye ikoti.

Imodoka ntoya itwara abagenzi. Ifite ibara ry'umweru ndetse n'umurongo w'umuhondo mu mpande. Iyi modoka yanditseho ijambo, " Yego kabuzi".

Imodoka itwara abagenzi, iri mu mabara y'icyatsi, umweru, iruhande rwayo hari akandi kamodoka gatoya gafite amapine atatu, hejuru gafite ibara ry'ubururu.

Umuhanda uri gutambukamo ibinyabiziga, ari byo moto n'imodoka. Harimo imodoka y'ivuwatiri ndetse na moto ihetse umugenzi . Umugenzi yambaye kasike y'umuhondo, umumotari yambaye kasike y'umutuku.

Umugabo yambaye isarubeti y'ubururu, yikoreye umufuku usa umweru, hirya ye hari igikamyo kiri gutambuka kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ivu.

Ni muri gare, imodoka itwara abagenzi iragaragara ku gice cyuma, yanditseho kigali koci ndetse umusore umwe yambaye umupira utukura.

Ni muri gare, imodoka yanditseho Sitera, imbere yayo hari umusore, yambaye ikote ry'ikoboyi ndetse ahetse n'igikapu mu mugongo.

Imodoka itwara abagenzi. Iri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi. Imbere yayo hari umumotari uri kugenda kuri moto, yambaye kasike isa umuhondo.

Imodoka ikora akazi ko gutwara abagenzi iri mw'i ibara ry'umweru. ifite umurongo w'umuhondo mu ruhande, iruhande rwayo hirya hari ama moto ari gutambuka.

Imodoka itwara abagenzi iri mu ibara ry'umweru imbere yiyo modoka hari moto yicayeho umuntu wambaye kasike isa umuhondo.

Imodoka ebyiri zitandukanye, ziri mu byerekezo bibiri bitandukanye, imwe ni imodoka y'umugenzi, indi n'imodoka y'imizigo, iruhande rwayo hari gutambuka umugabo.

Umuntu ari gusunika igare, ririho umufuka uri mu ibara ry'umweru n'umurongo w'umutuku, imbere y'iryo gare kuruhande rw'ibumoso hari kugaragara imodoka igice cy'imbere.

Imodoka ebyiri zitwara abagenzi, imwe yanditseho BK indi ifite ibara ry'umweru, hagati y'izi modoka zombi hari gutambukamo umusore wambaye umupira usa umutuku.

Imodoka ifite amabara umweru, umukara ndetse n'umurongo ku ruhande wa oranje, iyi modoka itwara gaze inyuma y'imodoka hari ama moto.

Imodoka y'igikamyo iratwikiriye itwikije ihema ry'ubururu, inyuma y'iyi modoka hari moto ihetse umugore ndetse wambaye kasike itukura.

Hakurya hari imodoka itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru, iruhande rwayo hari indi modoka ifite ibara ry'umutuku ndetse hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo.

Umuhanda w'abanyamaguru ndetse n'ucamo ibinyabiziga utambukamo ibinyabiziga urimo imodoka itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru.

Imodoka y'igikamyo iri mu ibara ry'umweru ku gice cy'imbere inyuma iri mu ibara ry'ubururu, hirya y'iyo modoka hari gutambuka abagore babiri.

Imodoka ebyiri ziparitse, zikora akazi ko gutwara abagenzi, zifite ibara ry'umweru ndetse n'umurongo w'umuhondo mu mpande, izi modoka zanditseho ijambo Yegocabs .

Umuntu utwaye moto yambaye kasike y'umuhondo, hirya ye hari imodoka itwara imizigo iri mu ibara ry'umweru. Imbere y'iyo modoka hari indi moto iriho umuntu wambaye umupira w'umutuku.

Abagabo babiri bari gutambuka umuhanda w'abanyamaguru, umuhanda w'ibinyabiziga na wo harimo akamodoka k'amapine atatu kari mu ibara ry'ubururu.

Imodoka ntoya itwara abagenzi, ifite ibara ry'umweru ndetse irimo n'icyatsi. Iruhande rw'iyo modoka hahagaze umugabo, yambaye umupira n'ingofero n'ipantaro y'ikoboyi.

Utumodoka dutoya tugira amaguru atatu, utu tumodoka ni dutandatu twose dufite ibara ry'ubururu ndetse turasakaye ku gice cy'inyuma.

Abantu babiri bicaye ku igare, umwe atwaye igare yambaye ingofero, inyuma ye hicaye undi muntu, ku ruhande rwe hirya hari umumotari n'umugenzi, bombi bambaye kasike z'umutuku.

Umugabo wikoreye umufuka, iruhande rwe hari imodoka iri mu bwoko bwa rava, hirya y'iyo modoka, hari imodoka y'igikamyo ifite amabara ubururu ndetse n'umweru.

Umugabo atwaye igare yambaye ingofero, hirya ye hari gutambuka imodoka y'igikamyo kiri mu mabara imbere n'umweru inyuma gifite ibara ry'icyatsi.

Umugabo ari gutambuka mu umuhanda w'abanyamaguru. Hirya ye hari imodoka y'igikamyo iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Imodoka zitwara abagenzi ziri kumurongo, imwe iri kugaragara ifite amabara umweru, ubururu, ndetse n'umukara n'iri imbere yayo ni ayo mabara ifite.

Imodoka itwara abagenzi iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Icanye amatara maremare. Imbere yayo hari iyindi modoka. Ku ruhande rwo hirya, hari guca ibindi binyabiziga.

Ubusitani, hirya y'ubusitani hari gutambuka imodoka itwara abagenzi. Iyi modoka ifite ibara ry'umweru. Hirya yayo hari gutambuka indi kandi na yo ifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Imodoka itwara imizigo iri mu ibara ry'umweru n'icyatsi, iyi modoka ifite ishitingi hejuru ndetse iraziritse, hirya y'iyi modoka hari indi modoka y'umukara.

Abantu benshi bari gutambuka, abandi bicaye ku ntebe, mu bari gutambuka harimo umusore yambaye ishati y'umutuku, ipantaro y'umukara afite terefone ku gutwi.

Icyapa kiri mu mabara ya oranje n'umukara muri icyo cyapa hagati handitsemo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ariyo rodi woka ahedi.

Icyapa gisa ubururu, kiri kuranga amerekezo. Hejuru kiraranga Kagarama, iruhande rw'buryo kiraranga siti senta, iruhande rw'ibumoso kiraranga Nyamata.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'ubururu, gifite ubuso bw'ubururu, kikagira umuzenguruko w'umutuku, hagati mu buso haciyemo imirongo ibiri itukura.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kiraranga amerekezo, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ari yo Akanyaru, Huye, Muhanga, Ruhango, Kinazi.

Amatara ari mu ibara ry'umukara, harimo ikimenyetso cyemerera abantu gutambuka. Hejuru handitse umubare mirongo itatu na kane, ugaragaza amasegonda asigaye, abantu batambuka.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi giciyemo umusitari hagati w'umweru, hejuru y'uwo musitari hari amagambo Akanyaru, Huye, Muhanga. Munsi y'uwo musitari handitsemo Ruhango, Kinazi.

Umuhanda ufite ikororosi rikata ibumoso, imbere yaho hari icyapa gifite ibara ry'umweru cyanditswemo amagambo afite ibara ry'umukara ari yo rambura.

Imbibi z'umuhanda hirya y'imbibi z'umuhanda hari utuhandanda tubiri tw'abanyamaguru, imbere ahangaha hari icyapa kibuza ibikamyo gutambuka, inyuma y'icyo cyapa hahagaze abantu ndetse n'amagare.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'umweru cyanditsemo ijambo hagati sitopu bivuga guhagarara.

Icyapa kiri ku ruhande rw'umuhanda, gifite ibara risa umweru. Cyanditsemo ijambo mu ibara ry'umukara, Bugesera, Akarere. Iki cyapa, hirya yacyo, hari imodoka ebyiri ziri gutambuka.

Icyapa kiranga amerekezo, kiri mu ibara ry'umweru cyanditsemo amerekezo mu ibara ry'umukara KN mirongo itatu ST.

Icyapa gikoze mu ruziga, gifite ubuso bw'umweru n'umuzenguruko w'umutuku, cyanditsemo umubare mirongo itandatu, bivuze kutarenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru kikagira umuzenguruko w'umutuku, iki cyapa kirerekana ko hari umuhanda uri gukorwa imbere kirimo umugabo ufite igitiyo ayora ibitaka.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru ndetse n'umuzenguruko w'umutuku, gifite ikimenyetso hagati mu buso buri mu ibara ry'umukara kigaragaza ko ari mu ikona, giteye hagati mu biti.

Uruziga rufite ubuso buri mu ibara risamweru, rufite umuzenguruko w'umutuku, mo hagati handitsemo umubare mirongo itatu mu ibara ry'umukara.

Inzu igeretse, yubakishije amatafari ahiye, ikagira uruhande rumwe rurimo ibara ry'umweru, amadirishya y'iyo nzu afite ibirahure bisa umukara, imbere yayo hafite ubusitani.

Imodoka ebyiri ziparitse imbere y'inzu igeretse, izi modoka ziri mu bwoko butandukanye imwe ifite nimero RAC umunani umunani gatanu K.

Umuhanda w'ibinyabiziga uri gutambukamo imodoka nyinshi, hirya hari inzu igeretse, imbere y'iyo nzu hari izindi modoka n'abantu bari gutambuka.

Inzu ndende iri mu mabara y'umuhondo iragaragara ku ruhande rumwe hejuru y'iyo nzu hari ibigega bitatu muri urwo ruhande rumwe harimo amadirishya.

Inzu ndende ifite amagorofa iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, hasi ku igorofa rya mbere hariho ibyapa bibiri, imbere y'iyo nzu hariho imodoka eshatu.

Nyagatovu, amazu aragaragara ku cyo hejuru gusa. Ndetse hirya y'ayo mazu, hari ibiti byinshi ndetse n'urutoki, aya mazu afite amabati atukura ashaje.

Inyubako ndende iri mumabara y'umukara n'umweru yanditseho ijambo infiniti hoteli, imbere yayo hari gutambuka umuntu.

Inzu igeretse ifite imiryango isa umukara, imbere y'iyo nzu haparitse imodoka eshatu ndetse ku ruhande haparitse moto iriho umuntu wambaye kasike y'umutuku.

Abagabo babiri bicaye kuri moto umwe yambaye kasike y'umuhondo undi yambaye iy'umutuku, inyuma y'abo bantu hari imodoka, mu muhanda harimo umukobwa ndetse n'umusore.

Remera icyapa imbere cyanditseho kevese, hari ibiti byinshi ku ruhande rwo hirya mu muhanda w'ibumoso hari gutambuka imodoka nyinshi.

Giporoso muri korodoro hari gutambuka abantu batandukanye ndetse hari imodoka na moto, umuhungu umwe yambaye agapira gatukura n'ikabutura, undi yambaye isarubeti.

Inzu igeretse, ku gice cyo hasi, hari umuryango ufite ibara ry'ubururu, hakaba undi ufite ibara ry'umweru, ku muryango ufite ibara ry'umweru hejuru hari icyapa cyanditseho Farumasi dinye k'ufite ibara ry'ubururu hari icyapa cyanditseho miliki zone.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka, hirya y'uwo muhanda hari agahanda k'abanyamaguru, hirya yako hari ibiti byinshi bifite uturabyo tw'umuhondo.

Icyapa kiranga amerekezo kiri mu mabara y'umweru cyanditsemo amagambo hagati ka ka mirongo itanu na gatandatu sa ta.

Iremera ibiti ni byinshi, amazu na yo ni menshi, ahageretse n'atageretse amazu menshi muri yo afite amabati atukura.

Umuhanda ni kaburimbo urimo ibice bibiri icy'ibinyabiziga bizamuka n'icy'ibinyabiziga bimanuka, umuhanda hagati haciyemo imisitari iri mu mabara y'imyeru igaragaza aho abanyamaguru bambukira, umuhanda umwe harimo imodoka.

Ni mu izingiro ry'imihanda imbere hari umuhanda uzamuka n'undi muhanda umanuka, hagati y'iyo mihanda yombi hari amatara, itara rimwe rirareba mu muhanda uzamuka irindi rirareba mu muhanda umanuka.

Imodoka yubakiye inyuma, iri mu ibara ry'umweru. Yanditseho ijambo mu ibara ry'umutuku, "Miti derivari". Imbere y'iyo modoka hari kugenda umuntu utwaye igare.

Umuhanda munini urimo imodoka, iruhande rwaho hari agahanda gatoya k'abanyamaguru kari kugendamo abantu, hirya imbere yaho gato hari ikiraro.

Mu izingiro ry'imihanda, hari gutambuka amamoto ariho abamotari ndetse n'abagenzi. Hirya yaho hari igikamyo ndetse kiri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda w'abanyamaguru. Ahangaha ni mu matara, moto zimwe zahagaze, zihagaze mu murongo ntarengwa. Hirya ibindi binyabiziga biri gutambuka.